Umwana uri guseka uri gukaraba mu ntoki n'amazi meza, hirya ye hari amajerekani ari butwarwemo amazi.

Abantu benshi bicaye, biganjemo abagabo bambaye imipira y'imyeru, basa n'abari mu nama mu ihema.

Umugore uteruye umwana n'umugabo wambaye umwenda w'umweru, hirya yabo hari imeza irambitseho ibipapuro.

Abagore bahagaze bishimye baseka bari mu cyumba gishushanyijemo inzu abana bigaragara nk'aho icyo cyumba kirererwamo abana ibyo twita irerero.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umweru, uri kwigisha abantu benshi, mu cyumba gifite ibikuta bisize amarange y'umweru.

Abana babiri b'abakobwa bamaze kuvoma amazi, bari gukorerana baseka cyane. Bari mu giturage kirimo inzu isakaje ibyatsi, hirya hariyo ishyamba.

Umwana uri kuvoma amazi, hirya ye hari umugore, inyuma ye hari abandi bana, batoya. Amajerekani asa nk'umuhondo.

Ibiganza biri gukaraba mu ntoki mu mazi aturuka mu gikoresho cyubururu hirya hari yo isabune iteretse ku meza y'ibiti.

Icyumba kinini cyane kigaragaramo abantu benshi bambaye neza aba mama n'abagabo bisa n'aho basoje inama, icyumba barimo kirimo ibendera ry'u Rwanda.

Abagore bahetse abana ndetse n'abana basa nk'aho bari gusinyisha ibintu kwa muganga, mu nzu ifite ibirahure bibonerana inyuma.

Abagore benshi bambaye impuzankano y'imipira y'imihondo ndetse n'amajire y'icyatsi bisa naho bahuriye ahantu bari nko mu nama cyangwa ibindi bitandukanye.

Ikirango kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru harimo n'afite amabara y'icyatsi kibisi n'icyatsi cyerurutse, hariyo nk'umurongo uhagaze n'utambitse byerekana n'ijanisha.

Abana babiri bateze ibiganza ku mazi amanuka bishimye bari kunywa amazi meza ahantu mu gishanga heza cyane.

Abagore batatu bari kuvoma amazi, babiri bari gukoresha ingufu bapompa amazi, umwe akareka, agategaho indobo.

Ivomo ryuzuyeho abana benshi, bagiye gushaka amazi meza, ahantu mu kabande umwana umwe ari gukoresha ingufu kugira ngo amazi aze bagenzi be bavome.

Ivomo ryateraniyeho abantu benshi biganjemo abakobwa, bafite amajerekani menshi n'amabase, n'amasafuriya, hari abagabo bandi basa n'abari kubaganiriza.

Abagore batanu bicaye bigaragara ko bari kuganira ku buzima, umwe iruhande rwe hari ibipapuro bigaragara ko ari kujya yandika.

Abagore babiri n'abagabo batatu bicaye mu ntebe nziza. Biragaragara ko bari mu nama. Imbere yabo hari amazi, ndetse n'inyubako barimo ifite amadirishya meza n'amarido meza.

Umubyeyi ukuze wambaye indorerwamo z'amaso, uri kumwe n'abana benshi, bishimye bari guseka basa nkaho hari umuntu bahanze amaso.

Ivomo ririho abantu benshi bari kuvomera mu ndobo. Inyuma yabo hariyo ibiti byinshi. Bari gukoresha indobo, amabido y'umuhondo, indobo zitukura n'iz'umweru.

Umugabo uri guhabwa ubuvuzi, aterwa urushinge, wambaye umupira wanditseho ngo RBC, wambaye agapfukamunwa. Umuganga w'umugore na we yambaye agapfukamunwa, yambaye umwenda w'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga babiri n'umukobwa umwe uri gupimwa umuvuduko w'amaraso, harimo amarido mu cyumba ndetse na mudasobwa.

Ivomo rigaragaraho abantu batatu babiri bari kuvoma bafite amajerekani abiri ndetse n'umwe uhagaze hejuru yabo uri kubaganiriza bisa n'aho ari nk'umujyanama w'ubuzima cyangwa umukozi wa leta.

Abana nibo biganje bari ku ivomo, bari kuvoma bafite amajerekani menshi y'imihondo n'imyeru, hari umugabo uri kubafasha kugira ngo amazi aboneke.

Umurongo w'abantu ariko urangajwe imbere n'umwana muto, uri kunywa amazi akoresheje ibiganza yunamye, iruhande rwabo hari intebe munsi yabo hari amagambo n'ikirango bya UNICEF.

Mu mubande ahagaragara ivomo ririho abana bane bagiye kuvoma, ndetse n'umukobwa mukuru uri kubafasha kugira ngo amazi yisuke mu tujerekani bafite.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, ufite igishushanyo kiriho abana babiri, uri gusobanurira umugore ukennye igitenge, wambaye agapira k'umuhondo, inyuma yabo hari inzu y'umuhondo n'amabuye ndetse n'idirishya ry'ibirahure.

Abana batatu bari guseka bari gukaraba mu ntoki, nyuma yabo hari igiti, imbere yabo hari Igikuta.

Abantu bateruye abana, bari kubaha amata, hirya hariyo n'abafite ibiryo mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane abasaza n'abakecuru, abagore n'abagabo bateraniye ahantu hashinze ihema, hari inyubako ndetse n'ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye ikote, n'umugore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, mu biganza byabo, bafite umusego wanditseho Visit Rwanda. Iruhande rwabo hari ibyapa byinshi.

Abantu benshi bari mu nama, bari kuganirizwa n'umugabo umwe ufite mikoro, abandi bicaye mu ihema.

Umugore uteruye umwana ufite ifishi mu ntoki, ku ruhande rwe hari abagore benshi bari muri sare ifite amarange y'umuhondo icanyemo itara.

Abagore bari kuvoma amazi. Babiri bari gukoresha ingufu, kugira ngo amazi aboneke. Umwe yatezeho indobo, kugira ngo amazi ajyemo.

Abana bane bari kuvoma amazi atemba, bari kuvomesha indobo, ahantu bari kuvoma hasa nko mu mubande.

Abantu benshi, bari guhabwa ibipapuro byo gusoma n'umukecuru, wambaye ijire n'umupira w'ubururu, bisa nk'aho ari inyigisho ari gushaka gutanga.

Abana benshi bafatanye ku rutugu, bambaye imyenda y'ubururu yanditseho ngo unicef, bamwe bari guseka abandi bararangaye.

Umwana muto uri gufungura amazi ari mu ndobo ntoya y'umweru, ifite umufuniko w'ubururu. Arayafungura aseka, indobo iteretse ku meza.

Ikirango gifite amabara y'ubururu n'icyatsi, amagambo avuga ngo ''golobo helifu oruganizashani'', yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ababyeyi babiri n'umwana umubyeyi umwe ni umuganga ari kuganiriza umubyeyi w'umwana baseka icyumba barimo kiragaragaramo umuryango.

Uruganda rwiza rwubatse ahantu mu kibaya, rufite inzu nziza, hari ikirere cyiza gitanga imvura.

Abantu bicaye n'abahagaze, inyuma yabo hari inzu ifite amarange y'umukara n'amabati atukura.

Abakobwa n'abamama n'abagabo bahagaze, hejuru yabo hari amagambo avuga ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu.

Kwa muganga hateraniye abantu benshi cyane biganjemo abaganga, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho hecidiyayi, inyuma yabo hari inyubako zisa n'izishaje.

Umugore uri kumwe n'abana benshi, mu giturage ahantu hari iivomo bari kuvoma amazi meza, bari kuvomera mu mabase no mu majerekani.

Umugabo n'abana bari kuvoma amazi, umwana umwe yambaye agapira k'umuhondo n'akajipo gatukura.

Abantu bafatanye bahagaze iruhande rwabo hari igishusho cyanditseho hecidiayi n'ifoto y'umwana inyuma yabo hari inzu yanditseho ngo sare de ra komferanse.

Umugabo ukuze uri kuganirizwa n'umuganga, inyuma yabo hari umwana mutoya ndetse bakikijwe n'indabyo n'ikirere cy'umweru.

Umwana uri kunywa amazi akoresheje ibiganza icyarimwe ari no kuvomera mu ndobo. Hirya ye hari inzu, kure ye hari ibiti.

Abantu bari mu nama, bafite amazi yo kunywa, bari muri sale ifite amarido n'ibirahure.

Abantu benshi bafite ibipapuro byanditseho amagambo bari ahantu mu gisambu inyuma yabo hariyo ibihuru n'akazu k'amabati.

Abana benshi ndetse n'abantu bakuru, bicaye ku mikeka no ku matapi, hirya hariyo ameza ateretseho ibikombe.

Abantu batanu, umwe yambaye ga n'indorerwamo z'amaso, imbere yabo hari udukarito tw'imiti.

Icyumba kirimo abagabo batatu b'abaganga, bambaye imyenda y'ubururu, n'umwe wambaye umweru, bambaye ingofero z'ubururu n'udupfukamunwa, bafite amakarito mu ntoki.

Umukobwa uri kuvoma amazi mu ijerekani iteretse mu mabase, inyuma ye hari imyenda yanitse, hirya ye hari inzu y'amabati, imbere ye no hejuru ye hari igiti.

Umugabo uri gutanga imbwirwaruhame, iruhande rwe hari intebe ndetse na mikoro, inyuma ye hari ikirango cyanditseho amagambo avuga ngo...

Icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo yunisefu foro evuri cadi, kiriho n'ikirango kigaragara mu ishusho y'ikarita y'isi n'umugore n'umwana bayirimo, ku mpande hariho amashaka.

Abagore, abagabo, n'abana bagiye kuvoma amazi, umugore umwe ari kugerageza uburyo amazi yaza akoresha ingufu.

Abantu benshi, hari itente n'inzu, n'idarapo ry'u Rwanda, ariko hasa n'ahari umuntu wagize ikibazo, kuko haragaragara imbangukiragutabara.

Abagabo babiri, bakuze, bambaye neza, bari gukorana mu kiganza, baseka, bisa nkaho bari kuganira, biragaragara ko bashoje inama, inyuma yabo hariyo intebe ndetse imbere yabo hari mikoro yo kuvugiramo.

Umugore uri kuvoma amazi ahantu mu gishanga n'umugabo uri inyuma ye uri koza igare, inyuma yabo hari ibimera bisa nk'ibyatsi, kure yabo hari imisozi.

Abagore babiri n'umwana w'umukobwa, bari kuvoma amazi, bafite amajerekani menshi inyuma yabo hari urutoki.

Abana babiri bari guseka, umwe yatunze urutoki hejuru, inyuma y'abo haragaragara ikibaho cyanditseho ndetse n'idirishya riri gucamo urumuri.

Inshinge nyinshi ziri mu gisahani, zirikumwe n'agacupa gakoreshwa kwa muganga kabamo umuti bashyira mu nshinge.

Abagabo, abagore bicaye mucyumba basa naho bari mu nama muri sale cyangwa mu cyumba gifite idirishya inyuma.

Inzu isize irangi ry'ubururu, imbere yayo hari abantu bicaye, iruhande rwabo hari imodoka, inyuma yabo hari indi inzu y'amatafari.

Umuganga uri gutera urushinge umuntu, umuganga yambaye ga z'umweru n'urushinge rw'mweru.

Abana b'abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano, basa nkaho ari abanyeshuri. Bari ku ivomo, bamwe bari gukaraba intoki, abandi bari kuvoma mu ndobo z'imihondo.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano, basa nkaho ari abanyeshuri, umwe ari gukaraba mu ntoki, inyuma ye hari igiti cyagandaye.

Abana bato bane bari guseka bishimye cyane, bari gukarabywa mu ntoki n'umugabo ufite igikombe, bagakaraba amazi agwa mu ndobo.

Abantu benshi bicaye, bamwe bari kwandika abandi bari kubareba. Basa nk'aho bari kuganira ku kintu runaka.

Abana bambaye inifomo y'ishuri, bari ku mavomo, bamwe bakaraba intoki abandi bari kuvomera mu ndobo z'imihondo, inyuma yabo hari imikindo myiza.

Abana bato bari mu gishanga ahantu hari amazi umwe afite ibirahuri bibiri mu ntoki birimo amazi, yambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu biragaragara ko ari umunyeshuri.

Abagabo bahagaze ku ivomo ndetse ijerekani iri kugwamo amazi y'umuhondo, n'akandi kabido gatoya kari iruhande rwayo.

Umugabo usa n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, wicaye mu muferege, wambaye ubusa hejuru usa n'ukenyeye igitenge ufite amasashe mu ntoki.

Umugore, uteruye umwana, bari guseka, inyuma yabo hari inzu y'amatafari ndetse n'idirishya, umugore afite imisatsi y'umukara.

Abakobwa babiri bicaye barebana, umwe yambaye imyenda itukura n'ingofero mu mutwe yitangiriye n'itama, undi asa nkuri kumuganiriza amukoraho asa nk'umuturisha cyangwa umugira inama.

Abantu benshi, bamwe basutamye, abandi bahagaze, inyuma yabo hari idirishya n'icyapa cyanditseho UNICEF, hari ifoto y'umuntu iri ku gikuta.

Abantu benshi bahujwe n'ubuzima bwo mu mutwe abicaye n'abahagaze, inyuma yabo hari inzu nziza ndetse ku ruhande hariho igiti cyiza cyane.

Abagabo n'abagore, bahagaze ahantu heza, iruhande rwabo hari icyapa, basa n'abasohotse mu nama.

Umuntu uri kurira, amarira aramanuka ava mu ijisho akamanuka ku itama, ijisho rye ryatukuye, bisa nkaho ababaye cyane.

Ishusho y'umutwe w'umuntu wanditsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi avuga ngo worudi mento herifu dayi ogitoba.

Icyumba kigaragaramo abamama bateruye abana, n'umukobwa usa n'uri kubagira inama ku bijyanye n'ubuzima bwabo ndetse n'ubw'umwana.

Umugore wafunze isura, witeze igitambaro, wambaye amaherena, wasize iminwa, wambaye umwenda usa n'umuhondo.

Abana benshi bari kwa muganga bari kuvurwa ibibazo byo mu mutwe bamwe bari guseka bisa nkaho bishimye cyane.

Abagabo n'abagore bahagaze ahantu heza hari igishusho, banambaye neza.

Abantu benshi bahagaze bafashe icyapa mu ntoki, basa n'abahagaze imbere y'Inyubako ahantu heza. Basa nk'abavuye mu nama.

Umugore uri guseka wambaye isengeri y'umuhondo, uri mu iduka ririmo ibirungo bikoreshwa mu biribwa.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, uri mu ruziga, amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, ndetse n'ayanditse mu ibara ry'umuhondo...

Umwana uri kurira, inyuma ye hari umugore ndetse n'abandi bantu, kandi hari n'ikirere cy'ibicu by'umweru.

Nyakubahwa madamu wa perezida wa repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame atanga imbwirwaruhame. Hejuru ye hari amagambo avuga ngo Mental health awareness campaign.

Umukecuru n'abana batoya, bamwe bari guseka, abandi barigunze, bigaragara ko bashonje.

Abagabo n'abagore bahagaze, basa nabavuye mu nama, hagati yabo harimo umupolisi.

Amagambo asobanura umunsi Mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe. Abantu bari mu nama bicaye, imbere hari ameza afite igitambaro cy'umweru.

Umwana uri kurira, iruhande rwe hari umuntu uri kumuganiriza umufashe akaboko.

Umugabo ukuze usa n’ufite ikibazo cyo mu mutwe, uri kugenda mu muhanda asa n’ubyina, hirya ye hariyo undi mugabo wicaye ku igare.

Abagore batatu bambaye udupfukamunwa, bafite ibipapuro mu ntoki, inyuma yabo hariyo inzu z'ibyatsi.

Abagabo babiri harimo usa nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe wambaye imyenda yacitse ari gusuhuzanya n'umugabo ushobora kuba ari umuganga cyangwa undi muntu umukurikirana.

Abagabo babiri, umwe afite inkoni, atwaye undi ku rutugu, inyuma yabo hari abandi babiri, n'iruhande rwabo hari umugore, n'iruhande rwabo kandi hakaba umwana.

Icyumba kirimo abantu babiri umukobwa n'umusore. Umusore yifashe ku gahanga bisa naho ababaye cyane, umukobwa ari kumuganiriza amuhumuriza.

Umukobwa uri guseka, amagambo yanditse mu mabara y'umweru, umubare rimwe, umubare kabiri, umubare gatatu.

Ikirango cya polisi y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya guverinoma y'u Rwanda, amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo: "Isange one stop center".

Abantu benshi bicaye mu cyumba kinini, bari kuganirizwa n'umumama uhagararanye n'umukobwa, usa nka'ho afite icyo aje gusubiza, wenda ku bibazo abajijwe.

Umugabo, ufite uburwayi bwo mu mutwe, wambaye imyenda icitse, inyuma ye hari ikamyo.

Abagabo n'abagore bahagaze n'abicaye mu cyumba cyiza cyane kirimo amatara y'umuhondo n'umweru bahagaze ku itapi nziza cyane ndetse inyuma yabo hariho icyapa cya RBC.

Ikirango kigaragaraho umugore wambaye agapfukamunwa, n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'ari mu ibara ry'umutuku n'amatariki n'ukwezi.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umukara, iruhande rwe hari amasashe, hirya ye kure hari imyanda.

Umugabo wicaye, wambaye isengeri n'ikabutura, yambaye n'igipine cy'imodoka mu nda, iruhande rwe, haragaragara amaguru y'abagabo babiri.

Umuntu wicaye ku musambi uziritse ukuguru n'umunyururu imbere y'igiti, inyuma ye haragaragara yo abandi bantu. bisa nkaho hakorerwa ibikorwa byo gusenga.

Abaganga bambaye imyenda y'imyeru n'abana bambaye imipira y'icyatsi, yanditseho amagambo avuga ngo tubiteho.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru, uri mu cyumba kirimo ibikoresho byiza, ufite ikaramu mu ntoki n'ibipapuro imbere ye.

Umugabo uri guseka, ufite urudodo mu ntoki n'undi uri imbere ye, afite imisatsi y'umukara.

Umugabo, umuganga wambaye itaburiya y'umweru na karuvati itukura n'agapfukamunwa k'umweru, uri gusuzuma undi mugabo uburwayi bwo mu kanwa.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru, uri gukata urudodo akoresheje amenyo, ari imbere ye, hari undi mugabo uri kumureba.

Umukobwa uri guseka uri kwireba mu ndorerwamo uri mu cyumba kirimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga bisa naho ari kwiha ubuvuzi bwo mu mutwe.

Umusore wicaye uri kwerekana amenyo ye na muganga amuhagaze iruhande, asa nk'aho agiye kumuvura.

Abana benshi bambaye impuzankano basa nk’abanyeshuri, bari koza mu kanwa, bafite ibikombe mu ntoki barishimye cyane.

Icyumba kirimo intebe z'umukara, amatara yaka ndetse n'ibikoresho byiza cyane.

Umugabo wicaye iruhande rwe hari agatanda ndetse n'imashini zikoreshwa mu buvuzi yambaye itaburiya y'umweru ndetse muri sare yicayemo harimo amarido.

Mwarimu n'umunyeshuri n'abandi bantu bahagaze inyuma yabo, mwarimu ari kwigisha umunyeshuri, uburyo basukura amenyo akoresheje igikoresho gifite amenyo y'umweru.

Abaganga babiri bari gusuzuma umwana uburwayi bw'amenyo, bambaye amataburiya y'umweru, imbere yabo hari ikaramu n'impapuro.

Umuganga n'umurwayi urihabwa ubuvuzi bw'amenyo, muganga yambaye umwenda w'ubururu n'udupfukantoki tw'ubururu n'ingofero y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi myiza cyane, wambaye isengeri, uri koza amenyo yireba mu ndorerwamo, aseka, anezerewe.

Umugabo wambaye imyenda yo kurarana uri gusukura mu kanwa yireba mu kirahure, icyumba arimo kirimo impapuro z'isuku n'amarido atukura.

Umukobwa uri guseka neza cyane, usa neza cyane, wasobetse intoki ari kwerekana amenyo, bisa naho ari kwerekana cyangwa se ari gusobanura ubuvuzi bw'amenyo.

Umuntu, bari kuvura mukanwa, ufite amenyo y'umweru, muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga.

Icyumba cyiza cyane kirimo intebe nziza kigaragaramo itara ryaka neza, kirimo igitanda cy'umurwayi bisa n'aho ari icyumba babagiramo.

Umwana mutoya cyane uri guhabwa ubuvuzi bw'amenyo, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye udupfukantoki dusa nk'ubururu.

Umuganga n'umuntu uryamye bisa n'aho ari kuvurwa amenyo icyumba barimo kirimo ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi.

Umugabo uri guseka, ufite ubwanwa bwiza n'agasatsi gake, wambaye ikote ry'ikoboyi, n'agapira k'ubudodo.

Abantu benshi abicaye hasi n'abahagaze barimo baraseka bisa naho bahuriye hamwe mu nama y'ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba kirimo umuganga n'umugabo ukuze uri guhabwa ubufasha bumumenyereza kugenda bisa n'aho afite ubumuga bw'amaguru cyangwa uburwayi bufite aho buhuriye n'amaguru.

Umuganga wambaye itaburiya yu'mweru ufite igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso ari gupima umusaza ufite ubwanwa burimo imvi.

Umusaza uri gupima umuvuduko w'amaraso n'umuganga w'umukobwa, mu cyumba barimo harimo n'itara ryiza cyane n'marido meza.

Umugore uri guseka, ufite imisatsi irimo imvi, uri kwiruka n'umugabo uri guseka uri kwiruka, inyuma ye hari ibiti.

Umudamu wambaye itaburiya y'umweru, urambuye akaboko k'umugabo, wambaye umupira w'ubururu, ufite imvi.

Umugabo ukuze uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n’umu mama ukiri muto mu cyumba cyiza, kirimo ibikoresho birimo Ibitanda, ameza n'ibindi.

Umusaza n'umukecuru bicaye, umukecuru ari kwereka umusaza ibyanditse ku rupapuro umusaza arikunywa ibinini.

Umugabo ukuze ufitete ubwanwa burimo imvi, ari kumwe n'umugore ukiri muto nk'umuganga uri kumuha imiti ngo anywe, umugabo afite ikirahure kirimo amazi.

Umugore ukuze wambaye linete uri gukata imboga uri kumwe n'undi mugore barikuganira bagaseka bari ahantu heza cyane....

Umubyeyi n'umwana bicaye mu cyumba bari kubara utuntu tumeze nk'udupapuro. Inyuma yabo hari akabati karimo televiziyo cyangwa se insakazamashusho.

Icyumba kirimo umusaza n'umugore, umusaza yicaye ku buriri, inyuma ye hari inzitiramibu n'ibirahure bibonerana.

Umuntu wambaye imyenda y'uburu, uri kugenda yifashishije ibyuma bisa naho yamugaye amaguru.

Abamama, abana n'abagabo bicaye mu cyumba bari guseka. Icyumba cyiza cyane kirimo itara ryaka umuhondo, inyuma yabo hari indabyo.

Umusaza ukuze uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'umukobwa ukiri muto, w'umuganga wambaye imyenda itukura, bari mu cyumba kirimo intebe nziza n'amarido meza.

Abasaza babiri bakenyeye, bahagaze mu ihema inyuma yabo hari abandi bantu benshi, bisa naho bari mu bukwe cyangwa se mu nama.

Abantu benshi abicaye ku intebe n'abicaye hasi abagabo n'abagore bicaye munsi y'igiti inyuma yabo hari yo amazu basa n'abari mu umudugudu basa nk'abari gukora inama.

Umusaza n'umukecuru bicaye bari kunywa potaje bari kumwe n'umusore ubahagaze hejuru usa naho ari kubaganiriza.

Umugabo ukuze uteruye akana gafite igikinisho, basa nk’aho bishimye bari kuganira. Nk’umubyeyi n'umwana.

Umusaza n'umuganga mu cyumba bari gukora imyitozo ngorora mubiri, bafashe utuntu mu ntoki baterura dufasha mu kongera ukuboko.

Umugabo ukuze wicaye mu kagare k'abafite ubumuga; ari kuganirizwa na muganga; icyumba barimo kirimo amarido meza, ndetse n'intebe nziza, haragaragaramo n'umutako.

Abamama n'abakobwa benshi basa n'abari kubyina bari ahantu heza cyane mu gipangu inyuma yacyo hariyo igiti.

Abantu benshi bishimye basa nk'abasoje inama, harimo umwe bari guhemba ibyo kwiyorosa.

Abantu benshi abicaye n'abahagaze mu ihema, bisa naho bari mu nama, cyangwa baba bari kwigishwa ku bijyanye n'ubuzima.

Ukuboko k'umuntu kwatutubikanyeho utuntu twinshi, bisa nk'aho yahiye cyangwa akaba yababwe n'akanyamaswa.

Abaganga n'abarwayi aha bari gukingirwa cyangwa se bakaba bari gusuzumwa.

Abantu benshi abicaye n'abahagaze, bari mu cyumba kinini, basa nk'abafite impamyabumenyi bahawe bazifashe mu ntoki.

Ikirango kiriho umuntu uri guseka wambaye ishati y'umweru n’amagambo avuga ngo “Africa Agility Mentor Her 3.0 quickly aid Tech Meets Health causes effects prevention cure” etc…

Ahantu hateraniye abantu benshi bamwe bicaye imbere basa nkabari kuganiriza abicaye hasi hano.

Abantu benshi bicaye bigaragara nk'aho aho baje guhabwa ubuvuzi cyangwa se kwikingiza.

Umugore ushaka guseka w'imisatsi y'umukara, imbere ye hari amagambo rimwe ritagaragara neza ariko agaragara avuga ngo ofu imvayirometi paburike.

Abantu benshi bateraniye mu nama, inama ivuga ngo “ givingi baka miningi tu rayifu:okipeshono terapi ati de senta “ ni inama ya RBC.

Icyumba kirimo abantu benshi bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho ngo women leaders in global health.

Abantu benshi bateraniye muri sare, bari kuyibyinirwa n'itorero ririmo abadamu bambaye imikenyerero y'umweru n'intore zambaye imipira y'ubururu.

Amagambo y'ubutumire, yanditse mu ibara ry'umukara, mu ifoto y'umweru.

Ikirango kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, imbere hagati harimo ikarita y'u Rwanda mu buso bw'uruziga mu ishusho ry'ubururu.

Icyumba cyiza cyane gitatsemo ururabo ruri mu ivaze ndende kirimo amatara meza yaka umweru na purafo nziza n'amakaro y'umweruru meza.

Inyubako nziza cyane, izisa umweru ndetse na jaride nziza cyane, biragaragara ko ari ku gihe cy'umugoroba, amatara araka ndetse hari n'abantu k rubaraza.

Inzu nziza cyane y'amarangi y'umweru n'amabati atukura, igaragaraho abantu imbere yayo, ifite ibaraza ryiza cyane, yanditseho, ejesalandi gereyatirike.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ameza, kikabamo intebe, kikabamo amatara, kikabamo n'insakazamashusho.

Inzu nziza cyane imbere yayo hari imodoka n'abantu ndetse n'umuhanda nyabagendwa n'icyapa ku marembo.

Abagore batandatu bambaye imyenda y'abaganga bafunze ibipfunsi, bari imbere y'ahantu handi ngo regasi kilinikisi, inyuma yabo hasa n'ahari indabyo ngufiya.

Icyumba kinini kirimo imiti, kirimo na mudasobwa, akabati karimo imiti kanditseho amagambo avuga ngo: "Progress farumasi."

Inzu nziza cyane iteye amarangi meza cyane, yanditseho ngo inzu y'ababyeyi cyangwa se materinite, imbere yayo hari abadamu bane bambaye imyenda isa n'udupfukamunwa.

Inzu icuruza imiti, yanditseho ngo farumasi Iraguha, harimo abantu, umugore uhetse umwana n'abakobwa babiri n'umwana mutoya, ku ruhande hariyo umumotari.

Inzu ifite amatafari y'umuhondo hepfo yayo hari ikigega n'iruhande rwayo rw' ikigega hari indi nzu na yo y'amatafari ahiye n'amabati atukura.

Inzu nyinshi, igiti gifite amababi y'icyatsi, igipangu cyanditseho inyuguti za ''h'' ebyiri; ndetse n'icyapa cyanditseho ngo ''Nyanza hosipital'', bivuga Ibitaro bya Nyanza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru uri guseka, uryamye kwa muganga, iruhande rwe hari imashini ikoreshwa mu buvuzi.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'umweru n'agapfukamunwa uhetse ikintu mu mugongo ufashe n'ikindi mu ntoki imbere ye hari indobo y'icyatsi. Ari ahantu hagaragara inzu nziza.

Inzu nziza cyane isa nk'umweruru isakaje amabati y'ubururu iri ahantu heza cyane yanditseho amagambo avuga ngo inzu y'ababyeyi materinite bigaragara ko ari inzu ababyeyi babyariramo.

Abantu bari mu cyumba, bambaye amataburiya, abakobwa n'abasore, bisa n'aho ari kuvanga amazi n'ibindi bintu.

Abantu bamwe bambaye imipira y'icyatsi, hirya hari inzu nziza cyane, hirya kure hari ihema ryicayemo abantu.

Inzu nziza cyane ifite ibirahure by'ubururu, imbere hari imikindo myiza cyane, ifite amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Umwana uri mu kagari k'abamugaye imbere ye hari ubusitani bwiza n'inzu nziza cyane y'umweru iri ahantu heza hakurya hariyo umusozi mwiza usa neza.

Umuryango mwiza cyane ufite ibirahure biterekana imbere. Ibikuta bisa umweru, hejuru ku muryango handitseho ngo Operesheni rumu, cyangwa se icyumba cy'ibagiro.

Icyumba kirimo ibikoresho byiza cyane, birimo ibitanda, ibikoresho byo kwa muganga, ndetse n'ibiriho, amasashe ajyamo imyanda.

Inzu y'umweru imbere hari indabo z'icyatsi, iyo nzu yanditseho amagambo avuga ngo Nyarugenge District Hospital, bivuga ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge.

Icyumba kirimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'udupfukantoki uri ku mashini uri gukanda aka na kariya.

Umuganga uri gusuzuma umwana, umuganga yambaye agapfukamunwa n'amaherena, inyuma yabo hari akabati karimo imiti.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho byiza, birimo ibitanda, intebe ndetse n'imashini zikoreshwa mu buvuzi ndetse n'imitako ishushanyijwe nk'inyamaswa.

Abagore batatu bambaye imyenda y'ubururu n'utugofero tw'umweru bigaragara ko ari abaganga, inyuma yabo hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, ndetse nyuma yabo kure hari ibiti by'umukindo byakuze neza.

Icyumba cyiza cy'imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byiza byinshi, gifite inkuta z'ibirahure gusa ku buryo ubona hanze hose.

Inzu nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye, itwikirije amabati y'umuhondo, ifite ibirahuri byiza cyane, iruhande rwayo hari ubusitani n'amatara yo kumuhanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agatebe, kirimo n'igikoresho cy'ikimashini, n'igitanda, gifite amarange y'umuhondo kimeze ukuntu.

Icyumba, kirimo imashini z'umweru, intebe y'umukara, mudasobwa, igikapu ndetse n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba gisa neza cyane, kirimo amatara meza, gifite igisenge cyiza. Kirimo amagambo avuga ngo "regasi hoteri imfomesheni desike."

Inzu nziza cyane, isize amarangi, nk'umuhondo werurutse ku ibaraza ryayo hahagaze umuntu, imbere yayo hateguwe nk'ahazahingwa ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda n'inzitiramibu kirimo n'abaganga ndetse no hirya mu muryango hari kwinjiramo abaganga.

Icyumba cyiza cyane, kirimo ibikoresho byiza, birimo igitanda, imashini zifite insakazamashusho, kikanabamo imashini ikorerwaho imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka.

Icyumba cyo kwa muganga harimo ibitanda, harimo ameza, harimo n'amatara yaka ibara ry'umweru. Gifite amadirishya atanga urumuri muri icyo cyumba, gifite n'amarido meza cyane.

Inzu yanditseho ngo santere do sante Gisenyi, hariyo abantu, imbere yayo hanze hari umuhanda uparitsemo igare ririho abantu babiri.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa muri siporo harimo ibyo baterura n'ibyo birukankaho.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu, uri kugenda. Imbere ye, hari abandi bantu, bambaye imyenda y'ubururu n'umweru. Bari mu nzu, irimo amatara ari kwaka ahantu heza cyane.

Icyumba kirimo indorerwamo z'amaso nyinshi, kirimo kamera kirimo amatara kirimo ishusho y'umuntu wambaye indorerwamo z'amaso, n'amagambo avuga ngo vision meets fashion.

Inzu nziza cyane ifite ibirahure byiza cyane, imbere hari umukindo, ku ruhande hari imodoka, hejuru hari ibicu byiza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda n'amatara n'amashuka y'umweru n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Umugore wambaye imyenda y'icyatsi, uri muri saree kwa muganga, harimo ibitanda by'umweru.

Inzu y'ubuvuzi ifite amabati y'ubururu n'amatafari y'umutuku, ifite amadirishya meza, iruhande rwayo hari indabyo nziza, iriho ibyapa bibiri kimwe kiriho amaso n'ikindi cyanditseho.

Inzu nziza cyane, imbere yayo hari imodoka n'abagabo bane, ahagana iruhande rwayo, hari umukindo n'abagabo batanu.

Icyumba cy'ubuvuzi kirimo abaganga benshi bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, kirimo n'ibikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nziza, y'amatafari ahiye, yanditseho ngo Polyclinique de l'Etoile, imbere yayo hari imodoka nziza cyane, n'umutaka, w'abantu batanga serivisi z'amayinite.

Icyumba kirimo ibitanda, kirimo amarido, gifite amadirishya meza cyane; bisa naho ari icyumba cyo kwa muganga.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, yanditseho ngo inzu y'ababyeyi, imbere yayo hari indabyo ndetse n'ubusitani.

Inzu nziza cyane isize amarangi y'umweru, imbere yayo hari igiti kiri gukura neza, yanditseho amagambo avuga ngo Nyarugenge disitirigiti hosipito bivuze ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ,ibikoresho byiza cyane harimo intebe, ameza, amamashini ndetse n'amatara.

Icyumba kirimo abantu bambaye amataburiya y'umweru, abasore n'abakobwa, kirimo n'imashini bisa nkaho ari icy'ubuvuzi cyangwa se icyumba kigirwamo.

Icyumba cyiza cyane, kirimo imashini nziza cyane iri kwitegerezwa n'abantu, ifite insakazamashusho inasohora ibintu.

Abantu benshi abasore n'inkumi bicaye mu cyumba cyo kwa muganga harimo amatara meza harimo n'amadirishya y'ibirahure byiza bibonerana.

Inzu nziza cyane ifite imiryango myinshi, imbere yayo haparitse imodoka, ifite icyapa cyanditseho ngo: "Progress Farumasi", umuryango umwe urimo farumasi yitwa gutyo.

Inzu y'amabati y'ubururu n'amatafari, imbere hariho abantu benshi, yanditseho ngo inzu y'ababyeyi, materinite.

Umugabo wicaye wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari igitanda, hejuru ye hari imashini ikoreshwa mu buvuzi, icyumba yicayemo n'icyo kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byiza, inzitiramubu nziza n'amatara n'amarido y'ubururu. Harimo n'ibikoresho bishyirwamo imyanda.

Icyumba cyiza cyane, kirimo amarangi y'umweru n'amarido meza, kirimo abagabo bari mu nama bafite mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo imashini, zifashishwa kwa muganga mu kuvura, kigaragaramo isaha, n'imitako, ndetse n'intebe.

Umuganga wambaye umwenda w'ubururu. Ari kwita ku murwayi uryamye. Inyuma ye, hari ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Abagabo babiri bari mu cyumba kirimo imashini nziza cyane, igaragara nk'ikoreshwa mu buvuzi na bo bambaye amataburiya n'udupfukamunwa bigaragara ko ari abaganga.

Inyubako nziza cyane, ifite amarangi y'umweru, n'ifite amarangi y'umukara zisakajwe amategura y'umutuku hagaragara abantu bazigendaho.

Icyumba kirimo amashusho asa nkaho ari ay'abana; harimo n'igitanda gifite umubyimba mutoya; bisa naho ari icyumba cyakirirwamo abana.

Icyumba gisa neza, kiriho ibitanda, amatara n'ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cyiza cyane, gifunguye umuryango. Kigaragaramo ibikoresho byo kwa muganga, birimo ameza, ibitambaro, n'imashini.

Abadamu n'abasaza, bambaye imipira y'umuhondo n'ubururu, bicaye ku ntebe z'icyatsi mu nzu irimo amakaro.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri kirimo itapi nziza y'icyatsi kibisi ibikoresho byiza bigezweho n'igisenge cyiza.

Icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byiza ibyo baryamaho, ibyo baterura, gifite amadirishya meza ku buryo ubona hanze hose.

Icyumba kigaragaramo intebe z'umukara, indorerwamo z'amaso, amafoto y'abantu bambaye indorerwamo z'amaso n'amatara yaka hejuru.

Inzu nziza cyane yubatse neza mu buryo butangaje. Imbere yayo hariho icyapa cyanditseho ngo AHF Rwanda country office.

Abantu bafite ikaramu n'amakaye bari kwandika. Umuntu imbere yabo uri kubasobanurira, icyumba barimo kirasa nk'icyo kwa muganga.

Umukobwa uri muri siporo uhagaze ku kaguru kamwe uri kunanura akandi yambaye ikabutura n'isengeri yvicyatsi cyerurutse n'inkweto z'icyatsi.

Umuganga w'umukobwa mwiza cyane uri kwambara agapfukamunwa, areba muri mudasobwa, imbere ye hari impapuro n'ikaramu n'amakayi, bisa nk'aho afite ibyo ari bwandike.

Umuntu wicaye, uri guhabwa ubuvuzi bw'ivi, muganga yambaye itaburiya, umuntu yambaye ikabutura.

Umugabo wicaye uvuye mu gukora imyitozo ngororamubiri, uri kunywa amazi wambaye ikote ufite igikapu cy'umukara iruhande rwe.

Umukobwa uri muri siporo, wambaye ikintu ku kuboko, n'inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, n'agasengeri k'umukara, wicaye mu muhanda.

Umusore munini ufite amatuza, wakoze amaboko w'inzobe, hari utuntu tumuri ku rutugu turi mu mirongo y'umutuku n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi kibisi, ufite umupira wo gukina mu ntoki, umupira wanditseho inyuguti ya kane, uri mu mabara y'ubururu n'umukara werurutse.

Umuntu wicaye ufite igipfuko munsi gato y'ivi. Yicaye ahantu hameze nko ku buriri, yambaye umupira w'ubudodo.

Umugabo uri muri siporo, yambaye ama ekuteri mu ijosi ari kunywa amazi, yambaye umupira w'ubururu ndetse ari ahantu hasa nkaho ari ku nyanja.

Ibikoresho bikoreshwa muri siporo birimo metero, amazi, ibikoresho baterura, imbuto n'amacunga.

Umuntu wicaye, uri gukanda ikirenge, akoresheje igisashe gisa nk'ubururu. Bisa n'aho yavunitse.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara uri kunywa amazi mu icupa ryiza cyane ry'umweru wambaye amaherena na terefone ku kuboko.

Umuntu uryamye, uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri na muganga, amufashe akaguru, amukanda mu ivi, amunanura.

Abantu bambaye imyenda isa, bambaye udupfukamunwa, bambaye n'ingofero, bari mu cyumba kirimo imashini, bafite ibisahani, bisa naho hari abaganga bari mu cyumba cy'ibagiro.

Amazi meza y'urubogobogo, asukwa ava mu icupa agwa mu kirahure kibonerana mu kirere cy'ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuntu bari gupfuka amaboko bigaragara ko yakomeretse cyangwa yavunitse. Bari gukoresha bande n'ibipfuko, iruhande rwabo hari igikapu cy'umukara.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, agorora umugongo, yambaye isengeri n'ipantaro y'umukara n'imisatsi myiza, icyumba arimo kirimo indabo ziri mu ndobo.

Umugabo wicaye, wambaye isengeri y'umukara, uri kunywa amazi, wambaye igikomo cy'icyatsi, inyuma ye, hari ikibaho.

Umugabo uri muri siporo wambaye isaha nagapira k'ubururu, uri kunywa amazi mu icupa ribonerana. Ufite ubwanwa mu kirere cyiza cyane.

Igitabo cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru kiriho imibare igaragaza ubuso, amagambo amwe aravuga ngo paremiya fabulike sitiripusi.

Umugore w'umuzungu uri guseka n'umwana uri guseka n'umumama, inyuma hari intebe n'umukobwa wicaye.

Umugabo wicaye uri gukora siporo wambaye ikabutura n'isengeri ya n'isaha k'ukuboko ukuguru kwe gusa kuri tatuwaje.

Imbago ndende ifite inkoni y'icyuma n'aho umuntu afata hasa n'umukara n'ahafata mu kaboko hasa nk'ivu.

Indege nto yifashishwa mu gutwara imiti iyijyana ku bitaro hirya no hino mu gihugu. Ihetse akabogisi cyangwa se ikarito iriho umusaraba.

Umukobwa wicaye uri gukora imyitozo ngororamubiri uri kunanura amaguru. Icyumba arimo kirimo agatebe k'ibiti twita agataburete.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri upfukamye arambuye amaboko, yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, afite imisatsi y'umukara n'ubwanwa bwinshi.

Icyumba kirimo ibikoresho bya siporo ndetse n'umugabo uryamye wiziritse umugozi ku kuguru uri gukora siporo, iruhande rwe hari ibikoresho byinshi byifashishwa.

Abantu baryamishije umwana hasi, bisa naho ari mu irerero ry'abana; haragaragara abana benshi, abantu bakuru bambaye amataburiya basa nk'abaganga cyangwa abajyanama b'ubuzima.

Umugabo uvuye mu myitozo ngororamubiri uri kunywa amazi mu icupa ryiza rifite ibara ry'ubururu hirya ye haragaragara ishyamba.

Umugabo uri muri siporo uri gukurura umwenda w'umuhondo, i ruhande rwe hari umuganga uri kumwerekera uburyo abikoramo.

Icyumba cya siporo kirimo abagabo babiri ndetse n'ibikoresho bya siporo, harimo ibitanda n'ibyuma byo guterura, umwe araryamye undi arahagaze asa n'uri kumwerekera.

Umukobwa uri muri siporo, uri kunywa amazi mu icupa ry'umweru, ufite igitambaro ku rutugu, akoresha yihanaguza igihe yabize ibyunzwe.

Umuntu uryamye, bari gukanda amaguru. Yambaye inkweto, yambaye n'agakabutura k'umukara. Uri kumukanda, yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara.

Abagabo babiri, mu kibuga cy'umupira w'amaguru, umwe ari kuvura uwavunitse, iruhande rwabo hari umupira wo gukina, inyuma yabo hari abakinnyi.

icyumba kigaragaramo abagabo baryamye bari gukoreshwa siporo, kiragaragaramo intebe ibitanda ndetse n'ibindi bikoresho bya siporo.

Icyumba kirimo abantu bari muri siporo umwe araryamye bari kumunanura ukuguru undi aricaye niwe uri kunanura amaguru y'uryamye.

Igikapu cy'umutuku kirimo ibikoresho byo kwa muganga harimo ibipfuko, amabande, imikasi ibipima umuriro n'ibindi.

Umugabo uhagaze mu bikoresho byo kwa muganga byiza cyane, birimo: amayetajeri, insinga, amameza n'ibindi byinshi.

Icyumba kirimo abagabo babiri, bambaye amakote na karuvati, umuganga wambaye itabuririya y'umweru ndetse n'umusore wavunitse ukuguru.

Etageri igaragaraho ibikarito byinshi iby'umuhondo iby'ibyimyeru n'ibivangavanze amabara, bigaragara ko harimo imiti muri ibyo bikarito.

Ibiganza by'umuntu bifite ikaramu mu ntoki n'urupapuro usa n'ugiye kwandika iruhande hari ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri nka metero, ibikoresho baterura n'ibindi.

Icyumba gikorerwamo siporo kirimo abagabo babiri umwe afite ibintu afashe mu ntoki by'imihondo asa n'uri kubibiterura yashinze ivi hasi irindi yarihinnye, harimo undi mugabo usa n'uri kumwerekera ibyo akora.

Icupa ry'umweru risuka isabune, rifite ikirango cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru n'ijambo rigaragara cyane ryanditse ngo sitopu.

Umugabo uri muri siporo wambaye agasenge k'icyatsi kibisi, ari kwisuka amazi mu mutwe bigaragara nkaho yarushye cyane.

Umukobwa wambaye amayekuteri, uri muri siporo, uri kunywa amazi, wambaye akantu mu kuboko k'umukara, afite icupa ryiza, ririmo amazi asa neza.

Umukobwa uri muri siporo, uri kunanura amaboko afite imisatsi y'umukara, izirikishijwe lase ifite ibara rya oranje.

Icyumba gikorerwamo siporo kirimo umusore n'umukobwa kirimo meza n'ibikoresho byinshi bya siporo umusore ari gukora siporo asimbagurika umukobwa arasutamye ari kumureba.

Umukobwa wavunitse ikirenge bari kumuhambira bandana yicaye ku gitanda inyuma ye hariyo ifoto.

Umugabo uri muri siporo yambaye ikabutura y'umukara n'agapira gasa n'itakaari ahantu hasa n'ikiraro munsi hari amazi.

Umugore uri muri siporo wahinnye ukuguru kumwe ukundi kurambuye asa nk'ukuryamyeho afashe ikirenge cye, yambaye ipantaro isa nk'umweru nk'agasengeri kayo.

Umugabo uri gukanda ukuboko, wicaye, wambaye umupira w'umweru, wicaye mu ntebe z'umweru.

Umuntu uryamye; uri guhabwa ubuvuzi bisa nkaho yavunitse akaguru; iruhande rwe hari abantu benshi; barimo abaganga n'abagabo bambaye amakote.

Umugabo wicaye, wambaye ishati itukura, uri imbere ya mudasobwa, mu cyumba kirimo imashini nyinshi, usa nk'aho afite ikintu ari kwitegereza muri mudasobwa.

Umuganga uri gukanda ivi ry’umurwayi akoresheje igikumwe, yambaye itaburiya y'umweru, mw’ijosi yambayemo agakoresho gakoreshwa kwa muganga gapima umutima.

Ikirahure cy'amazi, inyeri, pome, ikirahure cy' umutobe, icyuma baterura, imetero, ndetse n'ibibabi, n'ibindi byinshi bakoresha mu imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri kwikandisha isashe irimo ibintu by'ubururu, ufite intoki zambaye impeta n'inzara zitukura.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara uri gukora siporo, afite akaboko kamwe hasi yahinnye akaguru kamwe akandi yakarambuye.

Ibikoresho byiganjemo ibyo bakoresha ku mvune, harimo ibipfuko ibini.

Umukobwa uri muri siporo. Wambaye Isengeri ifite amabara y'ubururu, icyatsi, umweru ndetse, n'umukara. Yambaye urunigi, afite igitambaro cyo kwihanagura mu bitugu bye, ari kunywa amazi mu icupa ryumweru rifite umufuniko w'ubururu.

Abantu bicaye ahantu hameze nko mu kibuga, bafite amakarito n'igikapu, bisa nk'umutuku, bimwe byanditseho ngo "Fasiti eyidi bokisi".

Imbuto z'ubwoko butandukanye, zirimo inyeri, imineke, amacunga ndetse n'ibiryo bikomoka ku matungo nk'inyama n'amagi ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore bigaragara nk'aho ari muri siporo, uri kunywa amazi akoresheje icupa ryiza cyane, ry'ikirahure, rifite umufuniko w'ubururu.

Abasore bari mu kibuga basa n'abari kubyina, bambaye amasengeri y'umweru n'amakabutura y'umukara, inyuma yabo hariyo abantu benshi bari kubareba.

Umukobwa uri muri siporo, wambaye inkweto z'umweru, wambaye ekuteri, iruhande rwe hari icupa ry'amazi, inyuma ye hariyo ibiti ndetse n'igicu.

Akagare k'abafite ubumuga gafite ibyuma bitukura intebe yumukara, amapine yumukara, naho utwaye usunika afata hasa nk'umukara.

Umuntu uryamye n'abandi bantu bamupfukamye iruhande, bigaragara ko bari kumuha ubutabazi. Ku ruhande hari abandi bantu bahagaze, inyuma hari ameza n'intebe.

Igikapu cy'umutuku, iruhande rwacyo hari ibikoresho byo kwa muganga, birimo ibinini, inshinge, imikasi ndetse na bande.

Umuntu uryamye bari gukandira ivi usa nkaho afite ikibazo cy’imvune. Bari gukoresha igitambaro cy’ ubururu, barambitse ivi ku gitambaro cy’ umweru.

Igikombe, kirimo umutobe, ku ruhande hari tangawizi n'umwenya, umutobe bari kuwuvangisha ikiyiko.

Amaboko abiri, ukuboko kumwe gufashe korogate, kuri kuyisuka ku buroso buri mu kiganza cy'undi muntu, korogate iriho ibirango biri mu mabara y'icyatsi.

Agasekuru gato n'agahini kako ndetse n'ibimera birimo ibirabyo by'umuhondo n'amababi y'icyatsi bigaragara nk'ibikoreshwa nk'imiti gakondo.

Ikimera kigira ibibabi bifite amahwa, gifite indabo z'umutuku cyitwa urutovu, gikoreshwa mu ubuvuzi gakondo.

Umugore wambaye umupira w'umukara amapaki abiri inyandiko zivuga ngo Fibroids Natural Treatment say no to operation .

Amacupa abiri rimwe ry'umuhondo irindi ry'umuhondo uvanze n'umweru, ashushanyijeho ibimera, iruhande rwayo hari imbuto zikase rimwe ryanditseho ngo arowu mango, irindi ryanditseho ngo alowu velageri.

Ururabyo rwiza cyane, rwarabije uturabyo tw'umweru n'umuhondo, rufite amababi y'icyatsi kibisi, inyuma yarwo hari izindi ndabyo nyinshi cyane z''amababi yicyatsi kibisi.

Ibiganza by'umuntu bifite igipapuro kirimo ifu y'ibyatsi, bigaragara ko ari umuti, asa nkaho hari umuntu ari kubyereka.

Utujerekani dutatu kamwe k'umuhondo akandi k'umweru akandi k'umweru wijimye, hejuru yatwo hari ibimera bikase.

Itasi irimo icyayi kirimo ironji, giteretse ku meza y'ibiti no ku gitambaro.

Utujerekani dutatu kamwe k'umuhondo utundi tw'umweru iruhande rwatwo hari ibimeze nk'imiti yo koza amenyo n'ikimera.

Igikombe cy'umweru kirimo umuti wa kinyarwanda gakondo, iruhande rwacyo hari icunga rihishije risatuye.

Amababi y'icyatsi, igiti, ubutaka bwaguyeho amababi akuma, hirya hari ibihuru.

Uruvange rw'amafoto menshi, yarabije uburabyo bwinshi bufite amabara menshi, umuhondo umutuku umweru n'icyatsi.

Udukarito dutatu twanditseho amagambo. Ak’imbere kanditseho ngo New Formulation Forceval Soluble Multivitamin and mineral food supplement.

Abantu benshi bari kwita ku buhinzi bw'imiti gakondo yitwa imiravumba.

Ikimera gifite ibibabi by'icyatsi kibisi birebire, kiri mu ishyamba, gisasiye, bigaragara nkaho ari umuti wa kinyarwanda.

Ikirango cyanditseho ngo afurikani taradisgoni medisini deyi tuwenti tuwenti tu, kikagaragaraho ibibabi hasi kikagaragaraho ibimera.

Ikimera gikoreshwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda kiri mu ishyamba gifite amababi y'icyatsi ariko asa nk'ashaje yatangiye kuzana ibara ry'umuhondo, iki kimera cyitwa umuravumba.

Icupa ryanditseho umuravumba, rifite andi magambo mu ibara ry'umukara ndetse n'ifoto y'umuravumba, rifite umufuniko w'umuhondo.

Amababi y'igiti, kitwa umuravumbababi, ibabi imwe rifite inkoni y'ibara ritukura, inyuma haragaragarayo indabo zihinguka.

Amacupa y'umweru ndetse n'indabo ndetse n'irindi cupa rirerire, ririmo ubuki, inyuma hari igishusho cy'inzuki.

Umugabo wambaye ikote n'ishati. Haragaragara imiti ndetse n'inyandiko nyinshi, zivuga ngo ndi umujyanama wawe ubuzima n'imirire ndetse n'andi magambo menshi.

Abantu benshi basa n'abakerarugendo bari munsi y'iriba rimanura amazi menshi cyane kandi ahantu hagaragara ibiti byinshi byakoze igihuru bisa naho ari mu ishyamba.

Ibyatsi bifite amababi y'icyatsi kibisi, ingemwe, ibitoki bikaseho,

Ibikoresho byinshi bishaje, birimo udutebe tw'udusongabugari, uducuma, ibikombe, ibikarito n'ibindi byinshi.

Ibikombe byinshi by'ibirahure, harimo ibifite imifuniko y'amabara atukura n'ibifite imifuniko y'amabara y'umweru, imbere harimo imiti gakondo ya kinyarwanda.

Iminwa itukura, amenyo y'umweru, amagambo yanditse mu mabara y'umukara ndetse n'iryanditse mu ibara ry'icyatsi, hasi hari umuti w'amenyo.

Icupa ry'umweru rifite ikirango kirimo amagambo avuga ngo Foreva royo jeri ndetse n'ishusho y'uruyuki, ku ruhande hari andi magambo avuga ngo Royo jeri ijana ku ijana neco.

Ikimera cy'amababi y'icyatsi kibisi. Iki kimera gikoreshwa mu buvuzi gakondo bwa Kinyarwanda, kiri gukurira hasi.

Agakarito k'amabara y'umweru n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara avuga ngo erisoresi ies fayive handeredi.

Ubuhinzi bwo mu rugo bw'ibimera biri mu ndobo, bigaragara ko ari ibikoreshwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda.

Igiti cy'icyatsi kibisi gifite amababi menshi cyane, cyifashishwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda.

Umukobwa, wambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umukara, iruhande rwe hari inyuguti ya c n'umubare icyenda, n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ibyatsi bifite ibibabi by'icyatsi na senyege inyuma hari ibyatsi bimeze nk'igihuru.

Umuntu uri gusekura imiti gakondo, iruhande rwe hari indi miti myinshi iy'iri ku masahani, iy'iri mu mavaze.

Ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi, amababi agira amahwa kiraba indabo z'umutuku, iki kimera gikoreshwa mu buvuzi gakondo cyitwa urutovu.

Akajerekani gafite umufuniko ufite ibara ry'ubururu n'amagambo yanditswe mu ibara y'ubururu ko gafite ibara ry'umweru, ayo magambo yanditseho aravuga ngo forever freedom.

Indabo ziri mu kirahure ndetse n'iziri mu ivaze, ku ruhande hari uducupa dutatu dufite amabara y'umutuku, ku ruhande hari ivaze irimo utubuto.

Ikirango kigaragaraho ikimera cy'icyatsi kibisi n'icupa rigaragara nk'ikirahure, ariko ririmo ibintu by'icyatsi kibisi.

Udukarito dutatu twanditseho amagambo agira ati new formulation forcevo soluble multivitamin and food mineral supplement.

Ibimera bifite amababi y'icyatsi kibisi, ariko hari n'ibindi byumye by'amababi maremare asa n'ay'ibisheke cyangwa imbingo.

Icupa ry'umweru ryanditseho amagambo avuga ati foreva dayiri bisa nkaho ririmo imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi.

Amapaki menshi cyane, mu mabara menshi cyane atandukanye, agaragara nk'arimo imiti ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo.

Ishyamba ririmo ibimera byinshi; ibiti, ibyatsi, ibyinshi byakoze igihuru; harimo ibiti birebire ndetse kure cyane haragaragara ishyamba aho ryabaye inzitane.

Ibimera byiza by'amababi y'icyatsi bitoshye, byifashishwa mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda.

Ibikombe bibiri by'ibirahure, birimo amazi, birimo n'ibibabi, bigaragara nk'aho hari gukorwa ubuvuzi gakondo.

Ikimera cyiza cyane cyaranze hasi gifite amababi y'icyatsi nindabyo nziza cyane zisa umutuku kubutaka busa umutuku.

Umugabo wambaye umupira utukura n'ikote ry'umukara n'umukobwa umuri iruhande wambaye umupira w'umweru wipfutse igitambaro mu mutwe basa naho bari kuganira.

Ibiti byiza cyane biri mu busitani bwiza cyane, buri gukora igihuru harimo igiti kigaragara gifite amababi atukura.

Igihingwa gisa neza cyane gifite amababi maremare y'icyatsi kibisi, gikunzwe gukoresha gukoreshwa mu buvuzi. iki gihingwa cyitwa urumogi.